Abantu benshi bicaye bakikije ameza. Buri muntu imbere ye hari icupa ry'amazi. Kuri ayo meza hariho umubare gatanu. Abantu benshi bari gukoresha terefoni.

Abantu babiri bahagaze imbere, umugabo n'umugore bose bafashe indangururamajwi mu ntoki zabo umugore yambaye agapira gasa umuhondo naho umugabo yambaye ishati irimo amabara avangavanze ndetse n'ipantaro.

Abantu umugabo wirabura ufite umusatsi urimo imvi yambaye amarinete yubitse umutwe yifashe mu gahanga yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ukuboko kw'iburyo afite ikaramu ari kwandika yambaye ishati ndetse n'ikoti imbere ye hari amazi yo kunywa ndetse n'kirahure.

Abantu benshi bicaye inzu bicayemo irimo amatara, hejuru ifite irange risa umweru.

Abantu imbere habanza umugabo udafite umusatsi ufite ubwanwa wambaye agapira, inyuma ye naho hari undi mugabo udafite umusatsi bigaragara ko bari mu nama.

Umugore umugore uhagaze imbere afite indangururamajwi mu ntoki ze, ateze igitambaro ndetse yambaye n'amarinete hejuru yambaye umwenda usa n'umuhondo.

Abagabo bicaye ubanza afite ubwanwa buri mo imvi busa umweru, yambaye amarinete imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse n'ikirahuri. Ukurikiyeho afite umusatsi yambaye karavati y'umutuku ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara.

Abantu bane barimo abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe, bose bambaye imipira y'umweru, umuhungu afite umusatsi muke, umukobwa ukurikiyeho ateze igitambaro cy'umukara ndetse yambaye n'isaha, undi ukurikiyeho afite ibisuko n'undi na we afite umusatsi mwinshi, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu, abantu batandukanye bari kureba imbere, imbere yabo ibikoresho bya elegitoronike birimo za mudasobwa ndetse n'amatelefoni kandi na none imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu, abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, abagabo bambaye amakote nditse n'amashati bari ahantu hafite inkuta z'umweru, ubona ko bose bari kureba imbere bahanze amaso uri kuvuga.

Abantu batatu, harimo abagabo babiri ndetse n'umugabo umwe. Umugore arasutse yambaye ikanzu y'umukara. Imbere ye hari mudasobwa ifunze. N'agacupa k'amazi yo kunywa. Ukurikiyeho ni umugabo afite umusatsi wambaye amarinete ndetse n'ishati y'umweru. Hagakurikiraho umuzungu na we wambaye ishati y'amaboko magufi, ndetse na mudasobwa imbere ye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara bari mu nama, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa, kuri iyi foto hariho na meya w'umujyi wa Kigali.

Iyi foto iragaragaza abantu babiri umugabo n'umugore umugore afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi urabona ko ari kwandika, umugabo we ku meza ye hari ibipapuro ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu bicaye, ubanza yambaye ikoti ry'umutuku n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, urikurikiyeho ni umugore wambaye amarinete, yambaye ikanzu y'umukara irimo utuntu tw'umweru.

Abantu, abantu bari mu nama, hari umuyobozi wambaye ishati y'umweru, hakikijwe n'amatapo, abantu kandi biragaragara ko imbere yabo bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga arizo mudasobwa.

Abantu, abantu bicaye imbere yabo hari amazi, umugabo yambaye ishati isa ubururu umugore yambaye ikanzu isa n'umweru harimo icyatsi.

Abantu batatu bicaye. Ubanza ni umusaza wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira w'ubururu arirabura yambaye n'isaha ku kuboko imbere ye hari amazi. Akurikiranye n'abadamu babiri harimo uwambaye amarinete ndetse n'undi wambaye ikanzu na bo imbere yabo hari amazi ndetse n'amaterefone.

Umugore, umugore wambaye igitambaro gipfutse mu mutwe cy'umukara, yambaye kandi imyenda ikozwe mu gitenge, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga.

Umugore uhagaze, wirabura, ufite umusatsi muke. Yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru n'umukara ndetse n'ijipo y'umukara, n'inkweto z'umukara. Afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Iburyo hari umugore wambaye ikoti ry'ubururu, ndetse n'isaha ku kaboko k'ibumoso, hakurikiraho umugore wambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'uwundi musaza wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, imbere y'aho, hari uducupa tw'amazi.

Abantu abagabo babiri ndetse n'umugore hagati, umugabo wa mbere yambaye agapira gasa n'icungerishije, umugore afite ibisuko yambaye amarinete ndetse n'umuringa mu ijosi yambaye n'umupira w'umutuku imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Umugabo umugabo yambaye ikoti yambaye n'ishati afite umusatsi ndetse n'ubwanwa, intebe yicayeho isa umukara.

Abantu baricaye bose bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga hari imeza bariho hariho igitambaro cy'umukara, kuri ayo meza hariho uducupa tw'amazi.

Abagore batatu bicaye. Ubanza yambaye amarinete. Afite umusatsi uringaniye, yambaye n'imyenda y'umutuku. Ukurikiyeho na we yambaye amarineti. Yambaye ikanzu ifite amabara atandukanye. Ukurikiyeho na we, yambaye amarinete, yambaye n'umupira. Afite terefone mu ntoki ze.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'amarinete yambaye umupira w'umukara yambaye neza isaha ku kuboko kw'iburyo ndetse n'ipantaro impande ye hari umugore ufite imisatsi miremire yambaye marinette ishati ndetse n'ipantaro mu ntoki afite igitabo.

Abantu, umugabo ufite umusatsi, afite n'ubwanwa, yambaye ikoti ririho idarapo ry'Urwanda, yambaye n'ishati y'umweru, imbere ye hamuteretse indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Abanyeshuri, abanyeshuri bambaye impuzankano zisa umweru hejuru bari gukoresha ibikoresho bya mudasobwa, impande yaho hari abagabo babiri bari kubacungira bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umweru.

Abantu babiri bicaye mu ihema risa umweru, umwe yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara .Undi we yambaye umupira w'umweru, imbere yabo hari mudasobwa ndetse na terefone ngendanwa n'amarinete.

Abantu bicaye bafite na telefoni mu ntoki zabo, imbere yabo hari za mudasobwa, impande y'izo mudasobwa hari uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahuri.

Iyi foto iragaragaraho abana bari gukoresha ibikoresho bya mudasobwa, ubona ko ari abanyeshuri kubera ko bambaye impuzankano zisa, aba bana kandi urabona ko bari kureba mubikoresho byabo basa nkaho bari kwiga.

Icyapa icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyijeho cyanditse n'amagambo, aya magambo ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, ibirango birimo biri mu ibara ry'umweru.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byo tuzi nka mudasobwa ndetse n'amatelefoni, iruhande rwabo hari n'amacupa y'amazi yo kunywa, imbere hari umugore ni we wahanze amaso bose.

Ipoto rirerire rinyuraho insinga zijyana amashanyarazi kuri iryo poto hariho n'itara munsi y'iryo poto rikikijwe n'ibiti bibiri birebire.

Iyi foto iragaragaraho igiti n'abantu ndetse n'imodoka n'ibyo dukunze kwita amapironi, ibikoresho byifashishwa mu kugemura umuriro mu bice bitandukanye.

Amapoto y'amatara yo ku muhanda hari insinga kuri iryo poto hari icyapa cyamamaza, inyuma y'amapoto hari ibiti birebire byinshi, inyuma y'ibyo biti hari inzu.

Umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye. Ku nkengero z'uwo muhanda, hari umugore uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru. Hari ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi. Iruhande y'urupoto hari uruzitiro rwubakijwe amatafari ahiye.

Igiti giteye hagati mu mbuga, munsi yacyo hari ibitaro bya Nyarugenge biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Umukuru w'Igihugu, Umukuru w'Igihugu arahagaze, yambara amarinete, yambaye ikoti ndetse n'ipantaro bisa byose bisa ubururu, yambaye n'ishati y'umweru. Impande ye hari idarapo riri mu mabara akurikira ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugore ni umugore wambaye ingofero afite imisatsi miremire, yambaye amarinete yambaye n'umwenda urimo ambara y'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu batatu bicaye bose bambaye udupfukamunwa babiri bambaye amakanzu asa y'umukara afita agatambaro mu ijosi urimo hagati yambaye imyenda isa n'iroza aba bamukikije bamwunganira mu mategeko, iri mo hagati n imfungwa.

Abapolisi babiri b'abagore, bafashe umugore muremure w'inzobe, uteze igitambaro cy'umukara, wambaye ikanzu y'umukara n'umweru, yambaye amapingu mu ntoki ze.

Umugore wambaye amaherena afite uruhu rwirabura yambaye ikoti ry'ubururu, imbere ye hari amacupa abiri ndetse n'ikirahure yambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso ndetse afite n'ikaramu mu kuboko kw'iburyo imbere ye hari ikaye.

Abagabo babiri bahagaze bambaye imyenda isa nk'iroza n'imfungwa, imbere yabo hari abagore babiri bicaye mu ntebe bambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Igipangu kirekire cyane ndetse gifite n'urugi rurerure cyane, hanze y'icyo gipangu hari abagabo bambaye imyenda isa nk'iroza hari n'umugabo ubakuriye uri imbere bigaragara ko ari kubasaka aba bantu ni imfungwa.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mu muto ku mutwe afite ubwanwa hejuru y'umunwa yambaye ikoti karuvati ndetse n'ishati, imbere ye hari indangururamajwi.

Ikirango cya leta y'u Rwanda mande aho hariho sinya bigaragara ko hari umuntu wasinye, amagambo yanditswe mu'i ibara ry'umukara ndetse n'urupapuro rufite ubuso bw'umweru.

Abantu bicaye bambaye imyenda isa, bambaye imyenda y'umutuku hagati irimo agatambaro k'umweru ndetse n'ingofero z'umukara imbere yabo hari indangururamajwi.

Umugabo, umugabo ufite uruhu rwirabura yambaye ikote ry'umutuku, n'agapira k'umweru, afite umusatsi muke.

Umugabo umugabo udafite umusatsi wambaye amarinete arirabura yambaye umwambaro ufite amabara atandukanye harimo umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Umugabo udafite umusatsi ku mutwe yambaye marinete ndetse afite n'ubwanwa hejuru y'umunwa, yambaye imyenda isa umutuku, hagati harimo agatambaro gasa umweru, yambaye neza ku kuboko kw'ibumoso.

Urugi, urugi rurerure cyane ruri mu mamabara y'umuhondo ndetse n'umukara, hejuru yaho hari icyapa cyanditseho gereza ya Nyanza, bigaragara ko ari ahantu bafungira abantu.

Umugabo, umugabo yicaye mu ntebe, afite uruhu rwirabura, yambaye amarinete ndetse n'imyambaro ubona ko ari iya gisirikare, iruhande rwe hari akabati.

Iki ni icyapa cyanditseho Nyamirambo ribu sitesheni. Kiriho akarangacyerekezo kagaragaza ko aho hantu ari ho ribu ya Nyamirambo ikorera.

Inzu ndende igeretse, inyubako ikoreramo polisi, hanze hari imodoka za polisi ziparitse, hari umunyamaguru uri kugenda wambaye ingofero, ishati ndetse n'ipantaro.

Imodoka iri kugenda mu muhanda. Yanditseho polisi. Ni iy'abashinzwe umutekano. Inyuma yaho, hari moto ebyiri, na zo zisa. Na zo ni iz'abashinzwe umutekano, ubona ko bakurikiye imodoka.

Imodoka y'umukara ifite amapine y'umukara, impande yayo hari akarondorondo k'ubutaka gateyeho igiti kitwa umukindo mu wundi muhanda hari imodoka ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru bigaragara ko ari iya polisi.

Umuhanda ufite ibisate byinshi. Ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru. Hahagazeho umupolisi wambaye imyenda y'akazi. Ahagararanye n'undi muntu wambaye umupira usa nk'ikigina ndetse n'ikoboyi isa ubururu.

Umugore w'imisatsi, yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru ndetse akenyeye igitenge ari gusohoka mu modoka y'umukara bamufunguriye umuryango.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bazamuye amaboko muri ayo maboko yabo harimo amadarapo afite amabara atatu umutuku, umweru, ndetse n'ubururu muri ayo madarapo handitsemo ijambo FPR.

Inzu ifite amabata asa umuhondo, imbere yiyo nzu hari abantu benshi batonze umurongo, bategereje kwinjira mu muryango umwe muri iyo nzu. Iyo nzu ifite amadirishya na yo asa umuhondo, inkingi zifashe zifite amabara y'umuhondo, n'ubururu, ndetse n'icyatsi

Iyi foto iragaragaza abaturage benshi bishimye bari kubigaragaza mu buryo butandukanye, hari abari kubigaragaza mu buryo bwo kubyina, abandi bari gukoma mu mashyi, abandi hafashe impapuro bazishyira hejuru.

Abantu, abantu bambaye imyenda isa, bose bambaye imyenda y'umweru, mu ntoki zabo ba bafitemo ibipfunsi bisa umutuku ndetse n'ubururu, abantu bambaye n'ingofero zisa.

Abantu benshi bambaye imyenda isa, hari amadarapo nayo afite amabara asa n'imyenda aba bantu bambaye, amadarapo afite amabara atandukanye harimo umutuku, umweru ndetse n'ubururu, ayo mabara yanditswe mu ijambo FPR naryo ryandikishijwe ibara ry'umukara.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda arahagaze imbere ye hari indangururamajwi yambaye amarinete yambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa n'ishati y'ubururu.

Abantu benshi bambaye imyenda isa ndetse n'ingofero zisa. Bazamuye amaboko. Mu maboko yabo bafitemo amadarapo ari mu mabara atandukanye yanditseho FPR. Amadarapo ari mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bambaye imyenda isa ndetse n'ingofero zisa bazamuye idarapo riri mu mabara atatu umutuku, umweru ndetse n'ubururu ryanditseho FPR.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi, urabona ko bari mu nama, hari n'amatereviziyo kubikuta ku buryo abatabasha kureba imbere bashobora kubikurikiranira ku matereviziyo.

Perezida w'u Rwanda, aricaye ku ntebe, yambaye amarinete, ikoti ndetse na karuvati n'ishati, afite impapuro mu ntoki ze arigusinya. Yegeranye n'umugore wambaye umwenda usa n'icunga rihishije. Imbere y'uwo mugore hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Umusaza umusaza ufite umusatsi urimo imvi yambaye ishati iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru yambaye n'ipantaro yubururu ari mu kagare k'abamugaye.

Umugabo w'uruhu rwirabura afite umusatsi ariko yiganjemo imvi. Yambaye amarinete, yambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru, yambayemo na karuvati.

Abantu abantu bambaye imyenda isa ubururu ndetse n'umweru bafite amadarapo yanditse fpr ndetse inyuma nta n'ufite icyapa gishushanyijeho ifoto y'umukuru w'igihugu.

Abantu barishimye bazamuye amaboko, mu maboko yabo harimo amadarapo ari mu mabara atatu, umutuku, umweru ndetse n'ubururu harimo ijambo FPR ryanditse mu ibara ry'umukara.

Umugore, umugore ufite uruhu rwirabura wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu, afite imisatsi iringaniye, azamuye amaboko.

Umugabo ufite umusatsi muke ku mutwe, yambaye marinete arirabura, afite ubwanwa hejuru y'umunwa ,yambaye ikoti ndetse na karuvati n'ishati y'umweru.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye amarinete asa umukara, yambaye kandi ishati isa umweru, ifite ibirango by'ishyaka efuperi, biri mu mabara umutuku, ubururu ndetse n'umweru, azamuye ukuboko ari gusuhuza abantu.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye. Uri kugendamo ibinyabiziga. Ku nkengero z'uwo muhanda, hari akayira k'abanyamaguru. Harimo n'umunyamaguru uri kugenda, wambaye umupira w'umuhondo. Hari icyapa kandi cy'ubururu cyanditseho tora Kagame Paul.

Umuhanda w'ibisate byinshifite ibyerekezo bitandukanyeumuhanda hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye ku nkengero z'imihanda hagiye hari amapoto ashinze hariho amatara.

Umuhanda ufite ibisate bibiri, uri kugendamo ikinyabiziga. Umuhanda ugabanyijwe n'akarondorondo k'ubutaka geteyemo ibiti by'imikindo, hakurya yawo na ho hari undi muhanda ufite ibisate bibiri, mu nkengero z'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Imodoka y'ubururu ihagaze bigaragara ko bari gupakurura amakesi bayavanamo, impande y'iyo modoka hari amakesi menshi harimo ayo mu ibara ry'umutuku yinganjemo cyane ndetse n'ibara ry'ubururu.

Umuhanda w'ibisate bibiri umimo imodoka ebyiri, ziri kugenda mu byerekezo bitandukanye hakurya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru harimo n'umunyamaguru wari kugenda n'amaguru.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri kugendamo ibinyabiziga, imbere hari imirongo yera icagaguye igaragaza aho abanyamaguru bambukira ukomeje imbere hari aho banyura bazengurutse.

Imodoka itwara abantu isize irangi ry'umweru, iri kugenda mu muhanda wibisate bibiri, impande y'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru, inyuma y'akayira k'abanyamaguru, hari ibiti birebire.

Umuhanda w'ibisate bibiri. Bitandukanyijwe n'imirongo y'umuhondo icagaguye. Muri uwo muhanda, hari kugendamo moto ebyiri zihetse abantu. Hakurya y'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Imodoka iri kugenda mu muhanda w'ibisate bibiri, irasa umutuku n'iyo mu bwoko bw'ikamyo. Impande y'aho hari akayira k'abanyamaguru, inyuma y'iyo modoka hari ibiti birebire.

Imodoka ifite irangi risa umweru itwara abantu ndetse n'ibintu inyuma y'imodoka, hari umugabo ufite ubumuga yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti ry'ikigina ahetse n'ishakoshi y'umukara afite imbago mu ntoki zimufasha kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zose zifite ibara ry'umweru. hari umurongo ucagaguye muri uwo muhanda wa kaburimbo. Ku nkengero z'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Igikamyo igikamyo gisa nk'icunga rihishije kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo impande yacyo hari umumotari uparitse kandi hakikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya rukururana isa icyatsi, impande y'aho hariho moto ihetse n'umuntu, iyi modoka iri kwinjira ahantu hateye ibiti ubona ko isanzemo izindi modoka na zo za rukururana.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto, afite uruhu rwirabura, ahagaze impande y'imodoka zitwara abantu.

Abantu, abantu babiri bari kuvugana, umwe yambaye umwenda wa kazi usa ubururu undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ndetse n'inkweto, inyuma yabo hari imodoka ifite amapine y'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri urimo ibinyabiziga bitandukanye, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, hakurya naho hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti.

Imodoka, imodoka zifite amapine y'umukara, ifite irangi ry'umweru ndetse n'ubururu. Zifite amadirishya, madirishya hariho inkoni zitambitse zisa umuhondo.

Umuhanda w'ibisate bibiri bijya mu byerekezo bitandukanye. Harimo ibinyabiziga biri kugenda. Ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru. Hakurya hari ibiti biteye.

Umuhanda w'ibisate bibiri. Uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Kimwe muri ibyo binyabiziga, ni igikamyo cyikoreye umucanga. Ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'ibisate byinshi, ibi ni ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mu byerekezo bitandukanye. Muri uwo muhanda harimo umunyamaguru uri kwambuka ,ku nkengero z'uwo muhanda hari amatara.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite umuzenguruko w'umweru ubuso ni ubururu n'ikikirango cy'umweru. Iki cyapa cyo kigutegeka aho ugomba guca munsi y'icyo cyapa hari ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda.

Imodoka, imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ifite amapine y'umukara. Impande yaho hari abagabo babiri batwaye amagare hariho ibirayi, imifuka irimo ibyo birayi isa umweru.

Imodoka, imodoka ifite amapine, ifite irangi ry'ubururu n'umweru inyuma yayo hari igare na moto biri mu muhanda biri kugenda bikikijwe n'ibiti.

Umuhanda w'ibisate bibiri. Bijya mu byerekezo bitandukanye. Urimo ibinyabiziga. Mu nkengero z'uwo muhanda, hari akayira k'abanyamaguru. Hakurya y'umuhanda, hari ikizu cyubakishijwe amabati y'ubururu.

Imodoka nyinshi z'ubururu zitwara abantu zihagaze ahantu hamwe bigaragara ko ari muri gare, impande yazo hari utuzu twubatse abagenzi bategererezamo izi modoka.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibisate bibiri, uri kugendamo akanyayabiziga k'amapine atatu, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, hateye amapoto ndetse hariho n'amatara, inyuma y'ayo mapoto hari ubusitani buteyemo n'ibiti.

Umuhanda b'ibisate bibiri uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti, hakurya y'uwo muhanda naho hari akayira k'anyamaguru ndetse n'umugore ufite ibisheke mu ndobo.

Umuhanda uri kugendamo imodoka y'ubururu yikoreye, impande y'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, imbere y'imodoka hari utunyabiziga dufite amapine atatu natwo dusa ubururu, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire.

Iki ni igikamyo kiri mu muhanda kiri kugenda urabona ko gisanzwe gikora ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi, hakurya hari amazu y'ubucuruzi n'amamodoka aparitse.

Umuhanda wibisate bibiri uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hakurya hari igikamyo cyikoreye imizigo, inyuma y'iki gikamyo hari itara rirerire ry'umweru.

Imodoka ndende y'umweru iri mu muhanda ugizwe n'ibisate bibiri, harimo n'ibindi binyabiziga biri kujya mu cyerekezo gitandukanye n'icy'imodoka iri kugendamo, inyuma yaho hari ibiti birebire.

Imodoka isa ubururu, iri kugenda mu muhanda w'ibisate bibiri, iyi imodoka yikoreye amacupa avamo gaze, impande y'iyo modoka hari akayira k'abanyamaguru.

Imodoka y'umweru, tuzi nk'igikamyo. Iri kugenda mu muhanda w'ibisate bibiri. Impande yaho hari umunyonzi utwaye umuntu. Impande y'uwo munyonzi, hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'ibisate bibiri. Uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Ku nkengero z'uwo muhanda, hari akayira k'abanyamaguru ndetse harimo n'umunyamaguru wikoreye umufuka w'umweru. Ku rundi ruhande hari itara ry'umweru ndetse inyuma y'iryo tara hari ibiti birebire.

Inzu inzu igeretse ifite amabati asa umutuku yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari abana batatu bari gukina.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru gishushanyijeho imirongo y'umweru, kirimo abantu bari gukina umupira w'amaguru, gifite ibyangombwa byose harimo nk'amazamu, inyuma y'icyo kibuga hateye ibiti birebire byinshi.

Icyapa, icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko usa umutuku, ubuso bwacyo ni umuhondo ibirango biri mu ibara ry'umukara kiragaragaza umuntu uri kwambuka.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, umuzenguruko ni umutuku ndetse n'ibirango biri mu ibara ry'umukara , iki cyapa kigaragara aho banyura bambuka.

Ibi byapa bakunze kubishyira ahantu habujijwe guhagarara, iyo umushoferi abonye iki cyapa kiba kimuburira ko atemerewe guhagarara ahantu iki cyapa gishinze, hari umwanya muto cyangwa se umwanya munini.

Icyapa, icyapa cy'uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, mu imbere harimo inyuguti ya pa icishijemo umurongo w'umutuku, gisobanuye ko bitemewe kuba wahagarara aho hantu akanya kanini.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku gifite ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Ikirango cyerekana aho imihanda ihurira n'ibyerekezo bitandukanye.

Icyapa, icyapa cya mpande enye gifiteso bw'ubururu, kirimo ikirango k'imodoka n'inyuguti ya pa iri mu ibara ry'umweru.

Icyapa, icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, cyanditsemo inyuguti ya p iciyemo umurongo, bivuze ko bitemewe guhagarara akanya gato ndetse n'akanini, icyo cyapa giteye mu busitani.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kandi gifite umuzenguruko w'umutuku, iki cyapa kigaragaza ko umuhanda utaringaniye.

Icyapa cyo mu muhanda, icyapa gikozwe mu buryo bwa kare gifite ubuso busa umuhondo, n'uturanga twerekezo turi ishusho y'umukara, giteye iruhande rwa kaburimbo, inyuma yaho hari igiti.

Icyapa gitegeka gifite ishusho y'uruziga. Ubuso ni ubururu. Umuzenguruko ni umweru. Ikirango kiri mu ibara ry'umweru. Icyapa kigaragaza inzira ebyiri, ikomeza ibumoso ndetse n'ikomeza imbere.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umuhondo, ibirango biri mu mabara y'umukara, iki cyapa kigaragaza aho abayobozi b'ibinyabiziga banyura bazengurutse.

Icyapa cya kare gifite ubuso bw'umuhondo handitseho amagambo mu ibara ry'umukara asobanuye ko ugomba kugenda gake, iki cyapa gifite umuzenguruko w'umukara.

Icyapa kibuza, iki icyapa kirahuza gukata iburyo, kegeranye n'ikindi cyapa kibuza, nacyo gifite ubuso bw'umutuku n'ikirango kirimo ibara ry'umweru, iki cyapa kiravuga ngo ntihanyurwa kikubuza kunyura aho hantu muri icyo kerekezo.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru n'umuzenguruko w'umweru, iki cyapa kigutegeka gukata ibumoso.

Icyapa cy'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso ni umweru imibare yanditsemo yanditse mu ibara ry'umukara, iki cyapa kigaragaza umuvuduko ntarengwa ko ari mirongo itatu.

Icyapa cya mpande enye. Gifite umuzenguruko w'umweru. Ikirango kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubuso busa ubururu. Iki cyapa kigaragaza aho bisi ziparika.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu. Umuzenguruko ni umutuku. Ubuso ni umweru, n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Icyapa kigaragaza ko hari umuhanda winjira mu wundi iburyo.

Icyapa kiri mu ishusho ya kare, gifite ubuso bw'umuhondo, umuzenguruko ni umukara, ikirango nacyo kiri mu ibara ry'umukara, iki cyapa kigaragaza aho umuhanda wisukira mu wundi.

Icyapa gifite ubuso bw'umutuku n'umuzenguruko w'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, agaragaza ko ugomba kubanza ukitonda mbere yo kwinjira mu muhanda.

Icyapa cya mpande eshatu. Kigizwe n'ikirango cy'umukara ubuso n'umweru, umuzenguruko ni umutuku. Iki cyapa kigaragaza ko aho hantu hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite ubuso bw'umweru, umuzenguruko ni umutuku, ikirango kiri mu ibara ry'umukara, iki cyapa kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa ari kilometero makumyabiri ku isaha.

Ibyapa, ibyapa bibuza, icyapa cyo munsi kirabuza umuntu gukatira ibumoso, icyapa cyo hejuru kirabuza umuntu gusubira aho avuye.

Icyapa kiri mu busitani kigaragaza aho bisi zihagarara, muri ubwo busitani hateyemo n'ibiti inyuma y'ibyo biti hari inyubako ndende iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu igeretse imbere muri iyo nzu hamo ibiti byinshi, ifite n'uruzitiro rusa umukara ndetse ifiteta n'urugi rwinjiramo rusa umukara.

Inzu, inzu ifite uruzitiro, iyo nzu ifite amabati y'umukara urwo ruzitiro kandi hariho urugi rusa umweru n'umukara, impande y'urwo ruzitiro hateyeho igiti

Imbuga iri gukiniramo abana bambaye imyenda isa, ni mu kigo cy'amashuri harimo ibiti ndetse n'ibyicungo by'abana bakiniramo, ifite uruzitiro ruteye irangi ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu igeretse ifite uruzitiro rusa umukara. Imbere yaho hari imodoka isa umutuku, n’inzu amagambo yanditseho iragaragaza ko ari inzu y’amacumbi.

Inzu ndende y'ubatswe mu buryo bugezweho yakishijwe amatafari ahiye; impande yayo hari kaburimbo harimo abanyamaguru bari kugenda muri iyo kaburimbo ndetse na moto; hakurya yaho hari ibiti birebire bitoshye.

Inzu igeretse yubakishijwe amatafari ahiye, muri iyo nzu hateyemo ibiti birebire by'umukindo, ifite igipangu gisa nk'ivu, impande y'icyo gipangu hari ubusitani.

Inzu, inzu ifite amabati asa umutuku. Inzu isize irangi ry'umuhondo. Iyi nzu ifite igipangu ndetse n'urugi rusa umukara.

Amazu, amazu atandukanye meza ari ahantu hamwe, ariko harimo inzu imwe itaruzura bigaragara ko bakiri kuyubaka aya mazu ahantu ari hateye n'ibiti.

Abantu, abantu babiri bari kwambuka ahabugenewe, hariho moto kandi hari imirongo migufi y'umweru iri muri kaburimbo.

Umuhanda ufite ibisate bibiri, ufite ibyerekezo bitandukanye, ugabanyijwemo hagati n'akayira k'abanyamaguru, hari n'aho abanyamaguru bambukira, hari imirongo yera icagaguye, harimo umunyamaguru uri kwambuka.

Umuhanda w'ibisate bibiri harimo ikinyabiziga, ikinyabiziga gihagaze ahantu hari umurongo wera udagaguye, inyuma y'uwo umurongo hari imirongo yera icagaguye igaragaza aho abanyamaguru banyura, kandi impande yaho hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye, urimo ibinyabiziga biri kujya mu byerekezo bitandukanye, hakurya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'amatara ku muhanda n'ibiti.

Umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri, umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse no hakurya y'umuhanda hari sitasiyo, aho imodoka zinywera esanse.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka, ndetse inyuma y'iyo modoka, hari umuntu utwaye igare wambaye umupira w'umutuku, impande yaho hari icyuma gifotora umuvuduko kitwa sofiya.

Umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo imirongo yera icagaguye, igaragaza aho abanyamaguru banyura mu muhanda hari ibimenyetso biburira bimurika.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri kugendamo ibinyabiziga mu cyerekezo kimwe, hakurya hari undi muhanda nawo w'ibisate bibiri uri kugendamo ibinyabiziga bimanuka. Iyo mihanda itandukanyijwe n'akarondorodo k'ubutaka gashinzemo amapoto ariho amatara.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibisete bibiri byo mu byerekezo bitandukanye, birimo ibinyabiziga hakurya y'umuhanda ku nkengero zawo hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'amatara ashinze ku muhanda, ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka, hari imodoka y'ubururu ifite amapine y'umukara iri kugenda muri uwo muhanda kandi hariho n'uturondorondo tw'ubutaka hariho n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda ufite ibisate bibiri, kuri uwo muhanda harimo imirongo yera icagaguye, igaragaza aho abanyamaguru banyura bambutse, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga biri kugenda.

Umuhanda wisukira mu wundi, umuhanda uba n'ibisate bibiri bigabanyijwemo n'umurongo wera uducagaguye impande haparitse igare.

Ikiraro gica mu kirere munsi yiki kiraro hari umuhanda w'ibisate bibiri, urimo ibinyabiziga biri kugendamo ku nkengero z'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa w'ibisate bibiri uri kugendamo ibinyabiziga, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, hari umuntu ufite igare, hejuru y'umuhanda hari undi muhanda unyura mu kirere.

Moto, moto yicayeho umumotari wambaye umwenda w'akazi, uri mu birango by'umuhondo ndetse n'ubururu yambaye ingofero ibyo tuzi nka kasike isa umutuku, imbere hari umuntu wambaye ishati ndetse n'ikoboyi.

Umuhanda ufite ibisate byinshi bijya mu byegezo bitandukanye, muri uyu muhanda hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ibyo bisate bigiye bigabanyije mu buryo bw'imirongo y'umweruru, idacagaguye ruguru y'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'ibisate bibiri ufite ibyerekezo bitandukanye muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye biri kugenda mu nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda, umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, imodoka, ndetse n'imodoka zitwara abantu, harimo imodoka imwe y'umweru ifite amapine y'umukara, ndetse kuruhande hari n'ibyapa byamamaza byo mu mabara y'umutuku.

Umuhanda wisukira mu wundi uwo muhanda harimo ikinyabiziga kiri kugenda cyitwa ikamyo, ku nkengero zuwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse hateye n'ubusitani n'ibiti.

Umuhanda w'ibisate byinshi ufite ibyerekezo bitandukanye hari imirongo y'umweru icagaguye myinshi igaragaza aho abanyamaguru banyura, harimo ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda uca mu kirere, hasi naho hari umuhanda wa kaburimbo harimo moto iri kugenda, mu nkengero z'uyu muhanda hari amapoto maremare ariho amatara amurika umuhanda mu gihe bwije ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byinshi uriho aho banyura bazengurutse, muri uwo muhanda harimo imodoka ndetse hejuru y'aho hari ikiraro kiriho undi muhanda ujya mu kindi cyerekezo.

Umuhanda wisukira mu wundi muhanda mu nkengero z'uwo mu muhanda hari akayira k'abanyamaguru, hariho amapoto ashinzeho amatara ndetse inyuma hari n'ibiti birebire hari imodoka iri kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda w'ibisate bibiri, uri kugendamo imodoka yikoreye, hakurya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru, hakurya hari amatara amurika igihe bwije ndetse hari n'ubusitani hateyemo n'ibiti birebire.